Mu gihe cy'ibirori cyangwa se mu gihe cy'isangira, hagati y'abayobozi n'abandi bantu runaka, ni byiza gutegura amatabure agenda yicarwaho n'itsinda ry'abantu bari buganire kuko bikumira akavuyo.

Biba byiza cyane mu gihe cy'amahugurwa iyo umuyobozi ari kwigisha abayoborwa cyangwa abaturage agenda abatemberamo hagati ababaza ibibazo bitandukanye ahagurutsa umwe.

Ni byiza cyane mu gihe cy'inama kuba muri ahantu hari interineti cyangwa se ibindi bintu bibafasha mu gukora ubushakashatsi kuri telefoni ,mu gihe habonetse ikibazo runaka.

Iyo habayeho umuhango wo kwiyakira ku bayobozi, bateranira ahantu hamwe, bakagenda bicara ku gatabure, bamwe na bamwe bakagenda baganira ku mpamvu zabo za buri munsi bagenda babona.

Mu gihe muri mu nama amahugurwa se cyangwa ibindi bikorwa byabahuza muri benshi mu mushinga mukora, ni byiza kwifashisha kunywa amazi y'Inyange.

Iyi ni inama yari ibereye mu mujyi wa Kigali iyobowe n'abayobozi bawuyobora ndetse yari yateranije n'ubundi abayobozi bawuyobora, aho bari kwiga ku isuku n'isukura ryawo kugira ngo hakomeze kuba hakeye hameze neza.

Mu gihe cyo gusangira cyangwa se cy'umunsi mukuru, ni byiza kwicara ku itabure muri abantu batarenze icumi, kubera ko biborohereza kuganira neza nta kavuyo karimo.

Inama cyangwa se amahugurwa ni igikorwa cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, kubera ko abigiramo imyanzuro ndetse n'ingamba bigomba gukurikizwa kugira ngo haboneke imico myiza n'imibereho myiza.

Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rw'u Rwanda, rugira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu kuko abaturage bayoborwa neza n'abayobozi bitoreye kandi bishyiriyeho banishimiye.

Inama, amahugurwa ndetse n'ibindi bijyanye nabyo, ni byiza cyane mu gihugu kubera ko hafatirwamo imyanzuro y'ibibazo runaka byagiye bigaragara mu baturage ndetse bagafata n'umuti mwiza wabyo.

Mu gihe mwagiye mu nama cyangwa se mu mahugurwa, ni byiza gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo aho ushobora kuyikenera nka gihamya ube wayitangayo, mu gihe biri ngombwa kubera ko ikenerwa cyane mu buzima.

Mu nama mu kazi cyangwa se ahandi hantu hose, ni byiza kwambara ikarita ikuranga ndetse igaragaza inshingano zawe, n'icyo ukora muri iyo nama cyangwa mu kazi.

Bamwe mu bayobozi b'igihugu cyacu ni abantu bakomeye cyane kandi b'ingenzi mu buzima bw'abaturage. Rero ni byiza kububaha, tugakurikiza amategeko n'amabwiriza baduha.

Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda, buri muyobozi wese usanga yicaye ku meza yiwe, imbere yiwe hari mashini, ndetse na mikorofone agomba kuvugiramo, kugira ngo abandi bose bumve ikiganiro agiye kubagezaho.

Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda cyitwa RURA, gishinzwe kumenyekanisha ibiciro by'ingendo mu gihugu hose ndetse n'ibiciro by'ama esanse akoreshwa mu modoka.

Inama ndetse n'amahugurwa ni ikiganiro gihuza abayobozi cyangwa se abayoborwa bagiye kuganira ku ngingo runaka ishobora kuba iteje ikibazo kugira ngo bashake igisubizo.

Abadepite n'abasenateri bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni bamwe mu bayobozi bafite uruhare runini cyane mu iterambere ryacu kubera ko bafata imyanzuro, ndetse bakanakora n'amategeko tugomba kugenderaho.

Mu gihe cy'inama cyangwa se muri mu mahugurwa, ni byiza ko umuntu umwe ashobora guhaguruka akabaza ikibazo yaba afite kijyanye n'ibyo muri kwigaho kandi mu bwenge nta kubangama kugaragayemo.

Iyo abaturage cyangwa se abayobozi bagiye mu mahugurwa ni byiza kubaha imipira cyangwa amatisheti asa kugira ngo bigaragaze ko bose bahuriye mu gikorwa kimwe kandi gifite intego imwe.

Ni byiza cyane gukora inama hagati y'abayobozi ndetse n'abayoborwa kugira ngo bafate imyanzuro myiza iboneye kandi y'ukuri bose bahibereye ndetse hanakemurwe ibibazo bimwe na bimwe byagiye bigaragara.

Mu gihe muri mu kazi ni byiza kugira umwanditsi cyangwa sekereteri wandika ibintu byose byakorewe mu kazi kugira ngo nimujya gutanga raporo muzayitange ari ibintu bigaragara bifatika byaba nk'ibimenyetso.

Mu nama cyangwa se mu mahugurwa. Ni byiza cyane kuba abayobozi bicaye mu ntebe z'imbere, barebana n'abaturage neza kandi ni iby'agaciro kwifashisha puroduwi zitangwa n'uruganda rw'Inyange kuko rwizewe cyane.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali Akarere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama, hakunda kubera amahugurwa menshi cyane aho abayobozi baba basuye abayoborwa babaganiriza ku bijyanye n'iterambere ry'urugo.

Ni byiza cyane mu buzima bwa buri munsi kwiicara mukaganira nk'abayobozi mukiga kuri sisitemu ndetse n'imiyoborere mugomba gukoresha mu gihe runaka habonetse ikibazo gitandukanye n'ibyari bisanzwe.

Mu nama y'amabizinesi cyangwa se indi mishinga ibyara inyungu ni byiza kuzana abayobozi bagiye biteza imbere bagasobanura impamvu ndetse n'inzira banyuzemo kugira ngo

Mu gihe cy'inama cyangwa se cy'amahugurwa, ni byiza ko mwese muba mufite amasikirini cyangwa se amakompiyuta muhanahaniraho ibitekerezo by'ingenzi, mu gihe mwese muri kuvugana.

Mu nama ni byiza kwifashisha amazi y'inyange mukayanywa kubera ko ni meza cyane mu gihugu cyacu cy'u rwanda, akorwa n'uruganda rwizewe kandi rufite ubuziranenge mpuzamahanga.

Mu gihe cy'inama cyangwa se amahugurwa ni ngombwa ko abayobozi bari mu nzego zo hejuru bicara imbere y'abayoborwa kugira ngo bamenye ababayobora kandi banabubahe.

Amahugurwa cyangwa se inama ni igikorwa giteranya abayobozi bagamije ku kwiga amategeko cyangwa se kuvugurura imiyoborere igezweho muri icyo gihe.

Mu gihe cy'inama cyangwa se ubukwe, ni byiza ko musohoka hanze mugafata akaruhuko k'umwanya muto, mukifotoza cyangwa se mugakora ibindi bikorwa byaborohereza mu mutwe.

Umunara ni umwe mu gikoresho cya tekinoroji, cyiganjemo ikoranabuhanga rinini cyane, kubera ko kidufasha kubona amanetiwake ya za telefoni, n'amamashini ndetse n'ibindi bikoresho byose by'itumanaho.

Biroroshye cyane mu Rwanda aho waba uri hose, kwidekararira icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'irangamimerere, ndetse n'ibindi byemezo kubera ko irembo ryabikuzaniye byose waba wifuza kubibona, unyura kuri www akadomo.

Umunara ni umwe mu bikoresho bigira uruhare runini mu itumanaho rya buri munsi, rero ni byiza kwirinda kuwangiza kuko iyo mubikoze bibyara ingaruka mbi cyane mu buzima bwacu.

Uburyo bwo kwigaragaza bwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwego rwo korohereza abasora bagiye bacibwa amande bakanayakurirwaho bakishyura imisoro gusa.

REB ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'uburezi aho bashishikariza abanyeshuri ndetse n'abarimu kwiga ndetse no kwihugura mu ikoranabuhanga muri ino minsi kuko ni iry'ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu.

Ni byiza kureba amabwiriza amategeko ndetse n'ibindi byose bijyanye n'imisoro, kugira ngo utazashyirirwaho amande n'ibihano, mu gihe utubahirije amategeko n'amabwiriza.

Amwe cyangwa zimwe mu nzu z'amaforekisi biro, ni ahantu bakora ibintu byose bijyanye n'ivunjisha, mu gihe ukeneye amafaranga y'amanyarwanda cyangwa se amanyamahanga ukabagana bakabigufashamo mu buryo bwihuse.

Umusoro ku nyungu cyangwa se ibindi bijyanye na byo, ni byiza kubikora mu gihe cya kare kuko iyo urengeje igihe baguca amande kandi twibuke ko ari byiza cyane bigira uruhare mu kubaka iterambere ry'Igihugu no gufasha abatishoboye.

Ubu mu Rwanda biroroshye cyane kudukarara imisoro, kubera ko ujya kuri google chrome ukandikamo WWW.RRA.COM ugakurikiza amabwiriza kandi ukabikora mu buryo bwihuse. Ni byiza gusora hakiri kare kuko bikurinda ibihano.

Ikigo cy'igihugu kishinzwe imisoro Rwanda revenue authority ni ikigo gihora gishishikariza abantu kinabibutsa ndetse abacuruzi muri rusange kwishyura imisoro igihe kitararenga kubera ko iyo utinze baguca amande ni byiza rero kubikora hakiri kare kuko bikorohereza.

Ni byiza kwirinda kwitaba cyangwa se kwemerera kuvugana n'umuntu utazi, niba ubonye nimero iguhamagaye utayizi, yihorerere uyikupe kubera ko abenshi usanga ari abatubuzi bashobora ku kwiba imitungo yawe cyangwa amafaranga yawe.

Irembo, riragukangurira gukoresha serivisi yabo bita Byikorere, aho buri muturarwanda wese yemerewe kuba yakwidekararira cyangwa yakwishakira icyangombwa cyose akeneye, kandi mu buryo bworoshye.

Foregisi biro cyangwa ahantu bakora ibijyanye n'ivunjisha, usanga batanga serivisi zose zijyanye n'amafaranga, aho ushobora kujyana abanyamahanga bakaguha abanyarwanda cyangwa se bakaba bagufasha mu bindi byose.

RGB, ni ikigo cy'Igihugu cy'Imiyoborere, rero mu Rwanda rwacu rwa Kanyarwanda abayobozi bayobora neza kandi bakanakora akazi kabo neza kubera ko barongowe n'umuyobozi w'indatwa.

Ubu nawe wakwifasha mu kudekarara imisoro unyuze kuri Gugo cyangwa se ukaba wareba amategeko agenga isora n'isoresha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ukoresheje interineti.

Ubu muri iki gihe isi imaze gutera imbere cyane. Mu Rwanda ho ho ni urundi rwego, kubera ko serivisi z'irembo zihutisha ibintu byose. Mu gihe hari icyangombwa ukeneye, ukibona mu kanya gato cyane. Rero nawe wabyikorera hamwe na ryo.

RURA ni ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishyiraho ibiciro by'ibintu byinshi, gifite uruhare runini cyane mu kugenzura ibinyabiziga ndetse n'ibindi bikoresho byinshi cyane, ni cyiza cyane.

Iri ni itangazo rya zimwe muri kampani zikorera mu Rwanda, zishinzwe gutwara ibicuruzwa bari gutanga akazi k' abashoferi ku babyifuza, ko babakeneye bafite ibyangombwa kandi byuzuye.

Mu gihugu cy'u Rwanda mudasobwa zimaze kuba nyinshi cyane, haba mu myigire abanyeshuri bose baba bazifite, baba aba kaminuza, aba pirimeri ndetse n'aba segonderi. Ni byiza rero kuko iterambere rikomeje kwihuta.

Nawe ntukirirwe wigora ujya gusiragira ushaka ibyangombwa, ujya mu bayobozi ndetse n'abandi, nawe wabyikorera ukoresheje sisitemu y'irembo, bagufasha kwidekararira icyemezo hafi ya byose, icy'amavuko ndetse n'ibindi.

Ni tumwe mu tuzu tuzwi nka kiyosike dushyirwa ku muhanda, tugira uruhare runini cyane ku baturage kubera ko iyo bategereje imodoka cyangwa se bumva bananiwe bahafatira akaruhuko.

Ibiti byo ku mihanda, ni bimwe mu bintu bigira umumaro mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose, kubera ko byifashishwa mu kurinda impanuka zo ku mihanda, ndetse no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, harimo nko gutanga umwuka mwiza.

Ahantu hari amashanyarazi cyangwa se ibindi bikorwa remezo byerekeranye nayo, ni bibi kuhakinira cyane cyane abana ndetse n'abandi bantu bakuru, kuhengera ntago biba ari byiza kuko byateza ingaruka mbi.

Bimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu harimo amashanyarazi, rero ni byiza kwirinda kuyangiza kuko iyo mukubaganye bigira uruhare runini mu kudindira.

Ibikorwaremezo bigomba kubungwabungwa ku buryo bukomeye cyane, harimo amashanyarazi kubera ko iyo yangijwe ashobora guteza impanuka zaba zahitana abantu cyangwa se akadindiza iterambere.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amashanyarazi yageze buri hamwe hose, aho tugeze ku rwego rwo gusagurira n'abandi bo hanze nk'ibihugu byo bindi bitayafite kugira ngo nabo babone.

Aha haragaragara umunyamaguru uri kwambuka umuhanda n'amaguru ndetse n'ibinyabiziga byabanje guhagarara kugira ngo yambuke ku mutuzo, bitewe n'amatara arimo ya ndangabyerekezo yamuhaye uburenganzira bwo kwambuka.

Ibikorwaremezo nk'amashanyarazi, ni byiza kubibungabunga cyane kuko iyo tubyangije bituma nta terambere ryihuta kandi bikanadindiza imibereho ya muntu mu buzima busanzwe.

Amashanyarazi ni bimwe mu bikorwa remezo bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu, kubera ko ryihutisha ibikorwa runaka na tekinoloji mu buzima busanzwe bw'abaturage ndetse n'imiyoborere muri rusange.

Amashanyarazi ni bimwe mu bikorwa by'iterambere biranga igihugu gifite umutekano ndetse n'amahoro n'imibereho myiza y'abaturage. Rero ni byiza kwirinda kubyangiza kuko ari byiza cyane.

Amatara yo ku mihanda ni meza cyane kuri buri umwe wese kubera ko amurikira ibinyabiziga, abantu ndetse n'ibindi bintu byose binyura mu muhanda, hakagaragara neza nta bisambo byagufata.

Ni byiza cyane gukoresha neza ibikorwaremezo harimo nk'amashanyarazi ndetse n'ibindi kuko bigira uruhare runini mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu ndetse n'abantu muri rusange.

Umuhanda uri mu ibara ry'umukara, ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imodoka iri mu ibara ry'umweru, amapikipiki yicayeho abamotari ndetse n'abo batwaye, bose bakaba bambaye n'ingofero zabugenewe ziri mu ibara ry'umutuku, hirya yabo hakaba abantu barimo kugendera mu tuyira twabugenewe tw'abanyamaguru.

Ni byiza cyane gutera ibiti ku mihanda kubera ko bitanga akayaga ndetse n'umwuka mwiza abantu bahumeka, bikanatuma abagenzi mu gihe bananiwe bagenda bakicara munsi yabyo bakaruhuka bamara kuruhuruka bagakomeza urugendo.

Insinga z'amashanyarazi, ni bimwe mu bikoresho by'ingenzi cyane mu gukwirakwiza umuriro. Ni byiza rero kwirinda ubujura bwabyo kuko bigira ingaruka mbi ku iterambere ry'igihugu.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi ni byiza cyane kubera ko bitanga umucyo ndetse bikanafasha abantu bamwe na bamwe kwihimbira bizinesi bagendeye kuri byo.

Aha baragaragaza kamera zishoba kuba ziri mu mihanda runaka nko muri Kigali se, cyangwa mu tundi duce two mu Rwanda. Zifashishwa mu gucunga amakosa abera mu muhanda aterwa n'batwaye ibinyabiziga.

Ibikorwa remezo by'amashanyarazi, ni bimwe mu bintu bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu kubera ko bitanga umucyo ku baturage bose bakishimira ibyo bagezeho.

Gutura mu mudugudu ni byiza cyane kubera ko mwubaka inzu zimwe mukagerwaho n'ibikorwa remezo mu buryo bworoshye nta mbogamizi nini cyane ibayemo ni byiza cyane rero kuhatura kuko bifasha leta kubagezaho ibikorwa byiza.

Bimwe mu bikorwa remezo tugenda tugezwaho na Leta harimo amashanyarazi, rero afite uruhare runini cyane mu kwihutisha iterambere ry'igihugu kubera ko abaturage bamurikirwa bagakora neza.

Ni byiza cyane aho ukorera ndetse no mu kazi kawe kuba ufite mudasobwa igufasha mu gukora ubushakashatsi bwa buri munsi no kubika amakuru yawe neza mu buryo bwizewe bw'ikoranabuhanga.

Mu nyubako zimwe na zimwe cyane cyane nk'ibitaro ni byiza gutwikira inzira abantu bagenda n'amaguru banyuramo, kuko iyo bibaye ngombwa ko ari nk'umurwayi bahanyuza izuba rikaba ryamunyagira cyangwa imvura iri kugwa bigira imbogamizi.

Ni byiza cyane mu gihe cyo kubaka inzu yawe, guteguramo ibice bimwe na bimwe by'ingenzi bigomba kwifashishwa n'abantu babana n'ubumuga kuko nabo ni abantu nk'abandi bakenera ubwiherero n'ibindi bikorwaremezo.

Ubundi mu Rwanda ndetse n'ahandi hantu hose, imbuga nziza cyangwa se inzira nziza yo kunyuramo mu gihe uri gutembera mu nzu zitandukanye no muri jaride, hagomba kuba harimo amapave agufasha kugenda neza nta mwanda ujyaho.

Ibi ni bimwe mu bitaro biherereye mu rwanda bishobora kuba biha serivise abaturage zo kwivuza ndetse no gusuzumwa indwara zitandukanye mu buzima bwa buri munsi.

Zimwe mu modoka zikorera mu bitaro zizwi nk'imbangukiragutabara, zigira uruhare runini mu gukiza ubuzima bw'abantu kubera ko iyo umurwayi arwaye zimuvana ku bitaro runaka zimujyana ahandi, mu buryo bwihuse.

Izi ni zimwe mu mbangukiragutabara zibarizwa mu Rwanda, zifasha ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima kujyana abarwayi barembye cyane mu tundi duce kandi mu buryo bwihuse kugira ngo barusheho gutanga serivisi nziza zinogeye abanyarwanda.

Imbangukiragutabara cyangwa se ambiransi, ni imwe mu modoka mu gihugu ndetse no hanze yacyo, zifite umumaro munini cyane kubera ko zitwara abarwayi mu gihe bashaka kugezwa kwa muganga mu buryo bwihuse kandi zikanatabara aho bibaye ngombwa.

Abunzi, ni bamwe mu bacamanza bakorera ku rwego rw'Akagari, rero bagira uruhare runini mu gukemura ibibazo ndetse n'amakimbirane agaragara mu baturage muri rusange, ni beza cyane kuko barangwa n'ubutabera.

Mu rukiko ni hamwe mu hantu h'ibanze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose, kubera ko baburanisha ndetse bagakemura ibibazo biba byagiye bigaragara mu baturage ndetse n'abandi bantu bose.

Ni byiza kwirinda gukora ibyaha, kubera ko iyo ubikoze bituma ufungwa, bakagukatira imyaka ishobora kuba myinshi, kandi bikabangamira n'ubuzima bwawe, hatavuyemo n'abo usize mu rugo rwawe.

Aha baragaragaza abagororwa cyangwa se imfungwa zicaye hamwe mu gihe cyo kuburanishwa, hashobora kuba ari mu gihe cya gacaca baburanisha abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Mu rukiko cyangwa se mu mategeko ni ho hantu hagaragara kuburanisha cyangwa guca imanza, abanyabyaha bashinjwa, abandi babashinjura ku byo bagiye bakora.

Umucamanza ni umuntu ukora mu rwego rwo kuburanisha abantu bagize ikibazo cyangwa se kubafasha mu by'amategeko mu gihe hagaragaye icyaha.

Iyo ari mu gihe cy'irahira, ku bayobozi, abandi bantu bagiye guhagararira igihugu mu hantu runaka bagomba kubikora bafashe ku ibendera, kugira ngo uzahemuka azahanwe hakurikijwe itegeko.

Mu gihe mushoje cyangwa mugiye gukora inama, biba byiza ko abayobozi babanza bagahagarara imbere, mukamenya icyo bashinzwe ndetse n'imirimo yabo muri rusange.

Ni byiza cyane ko buri muntu wese wakoze icyaha ajyanwa imbere y'urukiko agashinjwa ibyo yakoze, yaba atarabikoze bakabimukuraho akaba yafungurwa se cyangwa agafungwa mu gihe byagaragara ko kimuhama icyaha.

Aha haragaragara bamwe mu banyarwanda bazwiho guca imanza no kuburanishwa no kuburanisha mu rwego rw'utugari bazwi nk'abunzi bakemura ibibazo bimwe na bimwe bibera mu mi tugari.

Iyi ndabona ari inyandikomvugo y'inama. Nyakubahwa Paul Kagame yagiranye n'Abasenateri n'Abadepite, igaragaza ibyakozwemo ndetse n'ibyari ku murongo w'ibyigwa, ikagaragaza n' amategeko n'amabwiriza agomba gukurikizwa.

Inama rusange ni nziza ku baturage bose cyangwa se ku banyarwanda bose kubera ko hafatirwamo imyanzuro, ikabamenyeshwa ari bo babigizemo uruhare mu gihe icyo ari cyo cyose.

Iki gihe usanga imfungwa n'abagororwa b'abadamu cyangwa se ab'abagabo, bitabwaho cyane, mu ku buryo bw'ingenzi cyane, usanga abenshi bashimira leta uburyo ikomeje kubazirikana.

Mu gihe cy'iburanisha umwavoka ndetse n'uwo aburanira bagomba kuganira ku kibazo gihari bakabwizanya ukuri nta kubeshyanya kugira ngo amenye ubwo aho ahera amushinjura.

Abasaza cyangwa se abantu bamaze gukura bafatwa nk'abasheshakanguhe, rero ni iby'ingenzi kwitabwaho mu gihe bageze mu za bukuru kuko usanga akenshi na kenshi bagira imbeho kandi bakaba banakeneye n'abandi bantu babaha ubufasha.

Uburyo bwo kudepana cyangwa gufasha ibinyabiziga byagize ikibazo mu muhanda bukoreshwa hifashishijwe ikiziriko kinini cyangwa se ikambaburayi bagakwega ikinyabiziga cyagize ikibazo bakoresheje imashini zabugenewe.

Mu gihe ufite inzu nini yakira abantu benshi cyangwa se hateranira ibikorwa bitandukanye, ni byiza kuba hazengurutswe na bimwe mu bikoresho bizwi nka kizimyamwoto, mu gihe haba hateye inkongi bikifashishwa.

Amatiyo yifashishwa mu kuzimya mu gihe haba habaye inkongi, ni meza cyane kubera ko aba abitse amazi ushobora gukoresha mu gihe haba habaye ikibazo akagikemura, ku nzu rero mugomba kuyashyiraho.

Hano ndahabona ikigo cy'ubwishingizi cya Zigama CSS giherereye i Muhima, ubwo ni buranshi yabo, gifasha abanyarwanda kwizigamira mu buryo bwiza kandi bwihuse, ndetse n'umuporisi abacungira umutekano, agacungira umutekano n'umutungo w'Abanyarwanda.

Mu Rwanda ni heza cyane kuko abapolisi usanga bari mu muhanda bayobora abantu baba batwaye ibinyabiziga, abagenda n'amaguru ndetse n'abandi bose.

Abapolisi b'u Rwanda bakora mu kigo gishinzwe kuzimya inkongi cyangwa no gutabara mu bindi bizaza byose. Usanga ari abantu b'intangarugero bakorera ku gihe, mu mwanya wose urababona habaye ikibazo runaka.

Mu bizamini byo gushaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ni byiza cyane gukurikiza amabwiriza uhabwa n'umupolisi uba ari gukoresha ikizamini kubera ko iyo uyarenzeho ushobora kubura.

Umuyobozi mwiza w'igihugu cyacu uhagarariye ishyaka rya RPF, yiyamamaje kuri manda ya bibiri na makumyabiri na kane turamutora kandi turanamwishimira nk'umuyobozi wacu.

Mu gihugu cy'u Rwanda, iyo abayobozi bagiye kurahirira inshingano runaka, ni ngombwa kandi ni ni itege ko babikora bafashe ku ibendera, kugira ngo bibe igihango barahiriye igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Mu gihe cyo kurahiza abayobozi mu Rwanda, babikora bafashe ku ibendera ry'igihugu kugira ngo bigaragare nk'igihango bagiranye n'abaturage bacyo kandi bagomba kubahiriza mu buzima bwabo bwose.

Bamwe mu bayobozi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda bagiye bahagarariye inzego zitandukanye, usanga ari intangarugero kubera ko akazi kabo bagakora neza n'ubwitonzi ndetse n'ubushishozi mu mibereho yabo ya buri munsi.

Bamwe mu bayobozi bacu tugenda twitorera usanga ari abantu beza b'intangarugero, bafite imico myiza bakarangwa no kubahiriza igihe ndetse no kubaha umurimo mu gihe bawugenewe.

His excellence Paul Kagame ni umuyobozi mwiza ubereye u Rwanda ndetse n'abenegihugu barwo, kubera ko ari intangarugero haba mu bikorwa ndetse no mu bushishozi.

Mu gihe habaye ibirori cyangwa se igikorwa cyo gushimira abantu bakoze ibikorwa by'ubutwari, ni byiza kubazana imbere mukabahemba ibihembo bifatika kugira ngo bibere intangarugero abandi bantu.

Aha ni abanyarwanda bagaragara mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wabo bikundira kandi bitoreye wa Efuperi Inkotanyi hizi ekiselensi Paul Kagame mu matora yabaye umwaka ushize.

Inama ni igikorwa gihuza abaturage n'abayobozi bagamije kugezaho ijambo ry'umunsi ndetse n'amabwiriza mashya bagomba kugenderaho bitewe n'igihe barimo.

Nyakubahwa Paul Kagame ni umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda uyobora neza, ushoboye inshingano kandi ukorera abaturage neza. Ni byiza rero kumutora kuko arashoboye kandi ni na mwiza.

Kugira ngo hafatwe imyanzuro myiza kandi iboneye, biba byiza iyo habayeho inama za buri gihe zihora zivugurura ibibazo byabonetse ndetse bikanakemurwa mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Mu nama, ni byiza ko uri kubagezaho ikiganiro agomba kuba ahagaze imbere, abandi mwese mwicaye mumuhanze amaso kugira ngo mutege amatwi neza mwumve ikiganiro yateganyije kubagezaho muri uwo mwanya.

Bamwe mu bayobozi bayobora Minisiteri cyangwa se abasenateri b'igihugu cy'u Rwanda. Usanga ari abantu bagaragara neza haba ku myambarire ndetse no ku masura n'imyitwarire yabo, ari indakemwa mu mico no mu myifatire. Rero ni byiza gutora uwo muntu ufite icyizere.

Mu gihe k'inama cyangwa se amahugurwa yayobowe na nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ni byiza ko haba hari umutuzo kandi nta rusaku kugira ngo ikigamijwe kize kuvugwaho neza nta mbogamizi.

Aha haragaragara inama cyangwa se iteraniro ry'abasenateri n'abadepite muri sena y'u Rwanda. Aho bashobora kuba bari bari kwiga ku ngingo zitandukanye bari barimo kuganira.

Aha naho baragaragaza abaturage bo mu Rwanda, bamwe ni abayisilamu bari kwamamaza umukandida wabo mwiza kandi bishimiye hizi egiselensi Paul kagame uyoboye ishyaka rya FPR inkotanyi mu gihe cyo kwiyamamariza kuba perezida.

Bimwe mu bikorwa bigenda bihuza abaturage ndetse n'abayobozi, bigira uruhare runini cyane mu kwihutisha iterambere ry'igihugu kubera ko bahatangira ibisubizo by'ibibazo biba byaragaragaye.

Mu gihe cyo kwamamaza umukandida wacu twitoreye kandi twikundira, Perezida Paul Kagame, abaturage bose bari bambaye imipira isa babukereye kuza kumushyigikira, mu bikorwa bye byose akora kuko akora neza.

Abasenateri ndetse n'abadepite ni bamwe bafite uruhare runini mu Rwanda mu gukora amategeko ndetse no kuyemeza akaza gufasha rubanda nyamwinshi mu gihugu cyacu.

Ikinyabiziga cy'ikamyo kinini kizwi nka fuso, cyangwa rongesashi, ni imodoka yifashishwa mu gutwara ibintu cyangwa se imizigo, iyijyanye ahantu runaka mu bikorwa by'ubucuruzi.

Akazi ko gutwara abagenzi kuri moto, ni imwe mu mirimo ibyara inyungu mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko abayikora binjiza amafaranga menshi kandi bakagira n'uruhare mu guteza imbere u Rwanda rwabo rwababyaye.

Abamotari, ni bamwe mu bantu bazwiho kuba bafite amakosa menshi cyane mu muhanda, kubera ko iyo batwaye umugenzi bagenda bakatakata mu muhanda bishobora guteza impanuka, rero ni byiza kubyirinda.

Akazi ko gutwara abagenzi kuri moto ni akazi keza gahemba neza abagakora kubera ko mu gihugu cyacu harimo imihanda ya kaburimbo ibafasha mu ngendo ndetse no mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Imodoka z'amabisi ni zimwe mu binyabiziga bizwiho gutwara abantu mu buryo bwa rusange kandi bwihuse, rero bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu kuko abazitunze biteza imbere mu buryo bwihuse.

Akazi k'umumotari ni umwuga wo gutwara abantu mu buryo bwiza bworoshye kandi bubangutse, kubera ko abagenzi bihuta ugereranyije n'uko bakagiye mu modoka.

Ikamyo yo mu bwoko bwa hoho, ni imwe mu modoka usanga akenshi na kenshi zikunze guteza ibibazo mu muhanda kuko zikunda kugira impanuka nyinshi cyane mu gihe zirimo kugenda, ni byiza rero kuzirinda kuzigenda inyuma uzegereye cyane.

Imodoka zizwi mu bwoko bwa fuso zitwa rogeshashi, zigira akazi kanini ko gutwara imizigo cyangwa se ibicuruzwa byabacuruzi muri rusange.

Zimwe mu modoka zizwi nka yego kabuzi, cyangwa se amatagisi yifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa pirive, ni nziza kubera ko zihutisha urugendo kandi zigafasha abazitega kutabangamirwa.

Mu gihugu cy'u Rwanda, inka ni byiza kuzitwara mu makamyo manini kuko bituma zigenda zisanzuye, zidafundana nkandi na none zita na bangamiranye.

Mu gihe uri kugendera mu muhanda, ni byiza gutwarana ubushishozi kandi ntukadepase ahantu aho ari hose. Ahantu hatemewe ntibyemewe kuhakorera kuko ushobora guteza impanuka.

Zimwe mu modoka zizwi nka vigo cyangwa se amatoyota afite uduhekero inyuma, zigira uruhare runini mu gutwara ibikoresho bimwe na bimwe nk'amabati ndetse n'utundi tuntu.

Ikamyo ya hoho cyangwag se dipine, ni ikinyabiziga gikunze guteza impanuka cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda no ku isi yose kubera ko cyikorera imizigo ikirusha uburemere.

Abamotari cyangwa se abantu batwara abagenzi ku mamoto ni bamwe mu bantu usanga bateza impanuka mu Mujyi wa kigali. Kubera kugenda bakatakata mu umuhanda bituma rero bangiza amategeko yawo bigateza ibyago.

Imodoka zizwi nka Daihatsu, ni zimwe mu modoka zamenyereweho gutwara imizigo, cyangwa se ibicuruzwa, niba ushaka kwimuka, niba ukeneye gukora ikintu runaka, wabatumira bakaza bakagufasha mu kukwimura.

Zimwe mu moto z'amapine atatu zizwi nka lifani, zifatwa nk'imashini ikora amafaranga kubera ko zoroha mu gutwara imizigo, akenshi na kenshi zibona abakiriya benshi mu gihe runaka kuko abantu baba bakeneye kwimuka.

Zimwe mu modoka zizwi nk'amakabuzi cyangwa amatagisi vuwatire, agira uruhare runini mu ngendo z'abantu mu gihugu cyacu, kubera ko iyo ukeneye ko bakujyana ahantu runaka, ubishyura bakabigukorera mu buryo bwihuse.

Imodoka zizwi nka tagisi vuwatire, zigira uruhare runini mu iterambere ndetse no mu migendekere y'ingendo za buri munsi, kubera ko abantu benshi bakunda kuzitega mu buryo zinyarukamo, kandi zikabageza aho bashaka ku gihe.

Amagare ni bimwe mu binyamitende byifashishwa mu gutwara imizigo cyangwa se abantu. Rero rigira uruhare runini mw'iterambere ry'igihugu kuko biroroshye kuribona cyangwa se kuritunga.

Ubu mu Rwanda biroroshye cyane kuba wabona inguzanyo y'inzu, mu kanya gato cyane nawe ukagira iwawe ntagukodesha, nta ntugunda, nta muntu arara aguhagaze hejuru, ukajya uryama ugasinzira nta kibazo rwose ni karibu.

Mu gihe uri mu muhanda utwaye ikinyabiziga cyangwa se uri kugenda n'amaguru ni byiza kwirinda kurangara kuko bishobora guteza impanuka za hato na hato mu gihe wabikoze nti byemewe rero.

Gutwara ikinyabiziga mu gihe cya nijoro ni byiza kugenda wacanya amatara ayo amategeko akubwiriza gukora kuko bituma uri imbere yawe cyangwa se uri inyuma yawe akubona neza.

Zimwe mu modoka zizwi nka rifani, ni ibinyabiziga bifite amapine atatu, bikora akazi kenshi cyane, harimo ako gutwara imizigo ndetse n'ibicuruzwa by'abantu, rero ni nziza cyane.

Ibikorwa by'ubunyonzi, ni byiza mu gihugu kubera ko bifasha bamwe badafite ubushobozi bwo gutega nk'amamoto, kugera aho bagiye ariko na none bitera imbogamizi ku banyonzi bamwe na bamwe, bagenda bica amategeko y'umuhanda. Ni byiza kubikorana ubwitonzi ndetse n'ubushishozi.

Moto ya rifane ni ikinyabiziga gitwara imizigo, cyangwa se byifashishwa mu kwimura abantu bimutse, gifatwa nk'imashini ikorera amafaranga, kubera uburyo kigira akazi kenshi mu Rwanda.

Imodoka ya dipine. Izwi ku izina rya Hoho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igaragara nka bimwe mu binyabiziga bishobora kuba biteza impanuka nyinshi mu gihugu cyacu. Rero ni byiza kugendana ubwitonzi n'ubushishozi, mu gihe waba uri imbere yayo cyangwa inyuma yayo.

Abamotari ni bamwe mu bantu bakora akazi k'ingenzi kandi kinjiza amafaranga menshi cyane. Rero na bo bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu, batanga imisoro yifashishwa mu gukora ibikorwa byinshi cyane.

Imoto ya rifani n'ikinyabiziga mu Rwanda ubu ngubu kiri gufatwa nk'imashini ikora amafaranga kubera uburyo kirimo gukora akazi cyane, cyifashishwa mu gutwara amandazi, imigati ndetse no kwimura abaturage kibatwaje ibikoresho bitari byinshi.

Ibikorwa remezo ni byiza mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi bwa muntu, kubera ko bifasha mu iterambere imihanda ,amashanyarazi ,ndetse n'ibindi bidufasha mu kwihutisha ibikorwa byacu bya buri munsi bitatubangamiye.

modoka nini z'amakamyo zizwi ku bwoko bwa agiturosi cyangwa tureyira mu rurimi rw'amahanga zikoreshwa mu gutwara imizigo yambukiranya umupaka ishobora kuba iva nko hanze y'ibihugu cyangwa imigabane.

Imodoka zizwi mu bwoko bwa dayihatsu, ni bimwe mu binyabiziga bizwiho gutwara imizigo, ndetse n'ibindi bintu byose, kubera ko aricyo zakorewe, rero niba ushaka ko hari ikintu bakugereza ahantu, bagikuye ahandi runaka, wabahamagara bakagufasha.

Ubu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda iterambere rirakomeza ryiyongera cyane, kubera ko bagenda bubaka ibibuga mpuzamahanga bitandukanye nk'ibyo gukinira mu gorufe. Rero bigira uruhare runini cyane mu gukurura ba mukerarugendo ndetse no kwakira imikino mpuzamahanga.

Aha ndabona ari ahantu abanyarwanda benshi tumenyereye nka jumunaze, aho usanga imikino yose ahenshi usanga ari iy'amaboko nka za volebolo, basiketi ndetse n'iyindi yose abantu bakina.

Mu muhanda, mu gihe ugenda ugomba kwitondera ibyapa biba birimo, cyane cyane ku bantu batwaye ibinyabiziga, haba harimo ibimenyetso bikwereka ko imbere hari inzira y'abanyamaguru cyangwa se aho bambukira; ni byiza rero gushishoza cyane.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari bimwe mu byapa cyangwa se ibimenyetso byifashishwa mu muhanda mu kuyobora abagenzi cyangwa se mu kubereka aho bageza icyaba gikenewe, nk'ahangaha ikoni rikata ryijya ibumoso ni byiza kurimenya mbere yuko urigeramo.

Mu muhanda ndetse n'ahandi hantu hose ahenshi hahurirwa n'abantu benshi, usanga harangwa n'ibimenyetso bimwe na bimwe bigenda biyobora abagenzi baba bari gukoresha ako gace, rero ni byiza kubikurikiza kuko utabikurikije bishobora guteza impagarara cyangwa impanuka.

Iyo uri kugenda mu muhanda ugenderwamo n'abantu benshi, cyangwa se ibinyabiziga, ugomba kwitondera ibyapa uko bigenda bikuyobora, kuko utabikurikije ushobora kubihanirwa kuko wangije amategeko y'umuhanda.

Aha ndahabonaho icyapa kigaragarariza umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se undi muntu wese ugenda mu muhanda ko imbere hari zebura korosingi cyangwa se akayira k'abanyamaguru.

Aha ndahabona icyapa kigaragaza cyangwa se cyerekana amabisi aho agomba guhagarara mu gihe gito cyo kuruhuka abagenzi binjira cyangwa se bavoma.

Iyo werekeza mu karere ka Karongi ubona imihanda n'amashyamba meza kuko, ni agace keza usanga gafite ubutaka bwiza kandi hanera n'imyaka y'ubwoko ubwo ari bwo bwose.

Ibyapa n'ibimenyetso byo mu muhanda, ni ibintu bishyirwa ku nkengero kugira ngo abagenzi bashobore kumenya ikintu kigiye gukorwa imbere yabo.

Mu muhanda cyane cyane muri kaburimbo abenshi dukunda kugendamo, usanga harimo ibimenyetso bitandukanye bikwereka kugenda ,gukomeza ,cyangwa se guhagarara. Ni byiza kubyitondera kuko bikuburira bikanakwereka uko ugomba kwitwara mu ngendo zawe.

Iki ni icyapa kibuza, kigaragaza ko nta parikingi iri hafi aho. Ariko gusa ndabona hari umumotari uri mumakosa wagerageje kuhaparika. Bivuze ngo ibyo yakoze ntibyemewe bamufashe bamuhana.

Ibyapa ndetse n'ibimenyetso bikoreshwa mu muhanda ni byiza cyane kuko bikumira abantu baba bashaka kwica amategeko ndetse n'andi mabwiriza yose akoreshwa mu gihe murimo kugenda.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda sisitemu y'Irembo ni nziza cyane mu mibereho y'abaturage, ifite uruhare runini cyane, kubera ko iyo ukeneye icyangombwa bitagusaba kujya kwirebera umuyobozi bikagutinza, uhita ukiyakira ako kanya.

Umuhanda mu gihugu cy'u Rwanda hagiye harimo ibyapa ndetse n'ibimenyetso birangira abashoferi cyangwa abatwara ibinyabiziga umuvuduko bagomba kugendaho, ibyiganjemo rero harimo ibikoresha uwa mirongo itandatu mu isaha.

Mu muhanda cyangwa se ahandi hantu hose hari igikorwa runaka, bagenda bahashyira ibimenyetso bikwereka ibyo ugomba gukurikiza mu gihe uhegereye. Rero ntabwo ari ari byiza kugenda utitaye kuri ibyo bishyirwa aho ngaho.

Iki ndabona ari icyapa kimenyesha kibwira buri muyobozi wese w'ikinyabiziga ko imbere hari akadundi cyangwa agasozi kamenyerewe nka dodani, kimutegeka kugabanya umuvuduko.

Ibikorwa remezo ni ibikorwa by'amashanyarazi. Rero agira uruhare runini mu kwiteza imbere kw'abaturage kuko bakorera mu mucyo w'ahantu habona amatara yaka ndetse n'amazi abagereho ku gihe.

Mu gihugu cy'u Rwanda se cyangwa ibindi byose bigaragara ko byateye imbere, uhasanga inyubako zigerezwe cyane zizwi mu bwoko bwa etaje kuko nta handi baba bazifite.

Imiturire yo mu mudugudu usanga ari uburyo bwiza kubera ko abaturage bose baba batuye ahantu hamwe, nta kibabangamira n'ibikorwa remezo biroroha kubageraho bose kuko nta ntera ndende iba irimo hagati yabo.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali uhabona inzu nziza cyane kandi zimeze neza, iyo ushaka gukodesha uragenda ukayibona ndetse bitanaguhenze byoroshye cyane.

Legasi hoteli ni zimwe muri hoteli ziherereye mu gihugu cy'u Rwanda zizakira abantu benshi kandi zikajyana' abaki rero batanga serivisi yihuse kandi inoze nta byo gutinda mu byo ukeneye ni karibure bakwakirana umucyo.

Yunesiko ni kimwe mu kigo gitanga ubufashaje kandi gikorera mu nzu nziza, rero niba wifuza ko bagira icyo bagufasha nawe wagana baritabira rwose mu kugufasha.

Amwe mu ma supamaketi manini cyane mu Rwanda, uyasanga mu gice cyahariwe inganda ahitwa i Masoro, rero ni byiza kujya kurebayo ibyo wifuza kuko wabihasanga.

Eyateri, ni ikigo gikorera mu Rwanda gishinzwe iby'itumanaho, rero gitanga poromosiyo ku bakiriya bacyo kandi n'umurongo wizewe utanga interineti yihuse n'ibindi bikorwa byiza.

Ese waba ushaka inzu yo gukodesha, waba ushaka icyumba cyo kuraramo? Ni karibu muri Hilltop hoteli ngwino wifatire, wikodesheze tugukorera ubukwe n'ibindi birori byinshi cyane, ni karibu kandi ku igiciro kiza.

Gutura mu mudugudu ni byiza cyane kubera ko iyo abantu baba hamwe bituma nta gisambo cyaba cyabatera cyangwa se bamwe ngo bagire ubwoba bwo kuba basohoka hanze mu gihe cya n'ijoro.

Kimironko ni agace gaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga amazu meza cyane ndetse n'ibikorwa remezo byinshi, rero hari umudugudu mwiza cyane na we wahakunda kuhatura kandi ni neza.

Ni byiza kubaka umuhanda ahantu ahari ho hose wa kaburimbi mwarangiza ku ruhande mugashyiraho abapave agomba kunyurwamo n'abanyamaguru kuko biraborohera cyane.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amatara yo ku mihanda ni meza cyane kubera ko akumira ibikorwa by'ubusambo, bishobora kuba byakorwa nijoro n'abantu bipfukirana mu mwijima bakaba bakwiba abandi.

Uyu ni umwe mu mihanda ishobora kuba igaragara mu Rwanda, aho bagaragaza agace imodoka nk'izitwaye abagenzi cyangwa se n'izitwara imizigo zishobora kuba zahagarara umwanya muto mu gihe cy'akaruhuko.

Mu gihugu cy'u Rwanda mu Karere ka Kicukiro. Hari umuhanda mwiza, mwiza cyane, umeze nk'ikiraro, unyura mu kirere, aho abantu benshi bakunze kujya kuhifotoreza, ndetse no kuhasura kuko ni heza hateye amatsiko.

Imirongo yo mu muhanda izwi mu izina rya zebura korosingi yifashishwa n'abanyamaguru igihe bari kwambuka bava mu gisate kimwe bajya mu kindi kandi ibinyabiziga byose bigomba kubanza guhagarara gihe bari kwambuka.

Iki ni ikiraro se cyangwa umuhanda unyura munsi n'undi unyura hejuru yawo ari mutoya giherereye rero mu mujyi wa Kigali uri kujya i Remera.

Mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali, usanga harimo imirongo igaragaza aho abagenzi bagenda n'amaguru bagomba kwambukira ndetse idasiganye n'amatara nayo abayobora akabereka icyo bagomba gukora.

Imirongo y'umweru igabanya umuhanda mo kabiri, yifashishwa n'abanyamaguru mu kwambuka bava mu gice kimwe bajya mu kindi kugira ngo hatagira ibinyabiziga bibagonga, ni byiza rero kubanza gushishoza mu gihe ugiye kubikora.

Mu muhanda wa kaburimbo, usanga harimo ibimenyetso byinshi cyane. Rero biba bitandukanye ari amoko yose biyobora abagenzi ndetse n'abashoferi b'ibinyabiziga.

Aha baragaragaza ibimenyetso byo mu muhanda ari byo byitwa zebura korosingi cyangwa se imirongo y'abanyamaguru. Aha ni ho abantu bagenda n'amaguru banyura bambuka umuhanda, bava mu gice kimwe bajya mu kindi.

Mu mihanda myinshi, usanga hagiye harimo ibice birangwa n'utuyira tw'abanyamaguru, rero ni byiza kubahiriza aho hantu kubera ko iyo utubahirije amategeko ahagenda, bishobora guteza impanuka.

Uyu ni umwe mu mihanda iherereye mu mugi wa Kigali harimo amatara ndangabyerekezo afasha abaturage kwambuka ndetse no gutambuka mu gihe hashobora hajemo umuvundo w'ibinyabiziga.

Amatara yo ku mihanda, ni meza cyane ku binyabiziga ndetse n'abantu muri rusange bari kugenda mu muhanda n'amaguru, rero mu gihe utwaye imodoka cyangwa se moto, ni byiza gucana, icyo kinyabiziga kuko kigufasha kubona neza.